Umugezi ukikijwe n'ibitoki byeze cyane bikuze, ndetse hirya hari amazu agiye naya ari hafi y'umugezi ndetse n'igiti kirekirerekire hirya hagati y'urwo rutoki.

Umugabo urimo kuroba amafi abifashishije neti za kijyambere, aho ashyira aho yakoze iriba rinini akazajya ari ryo akoreramo uwo murimo wo kuroba amafi.

Abantu bakora ubuhinzi bw'amashu aho bamwe barimo kuganirizwa n'umugabo wambaye ishati y'ubururu arimo kubaganiriza ndetse areba uburyo ubwo buhinzi bwabo bwakiyongera kugirango ngo burusheho gukora umusaruro mwinshi.

Hari umugabo ukuze ufite igihombo cyuhira arimo kuhira imyaka ye ndetse ariko ku zuba ryinshi, hirya ye hari inzu isakajwe amabati y'umweru ndetse hari ubusitani buri bwiganjemo ibiti by'icyatsi cyane ndetse birebire aho arimo kuhira hari humye cyane.

Inka ziri mu mwanya wazo zirimo kurisha ahari ubwatsi uretse imwe iri kwabira cyane kandi aho ziri hari ibiti birebire cyane.